Ifoto y'abantu bicaye hamwe bari kuganira, bafite mashine imbere yabo imwe, n'amacupa asa nkaho arimo ikintu cyo kunywa biri imbere yabo.

Ifoto iragaragaza ko abantu bari mu nama bari kuganirizwa n'umuntu uri imbere yabo, afite imikoro yambaye umupira w'umweru n'ipantaro ijya kuba ikigina, harimo abantu benshi bari mu itenti rinini kandi buzuye barasaguka bagera n'inyuma.

Ifoto y'ikirango cya RDB bigaragarako ariho ikorera, kiyobora abantu kugira ngo bajye bahagera bitabagoye.

Ifoto igaragaza umugore n'umugabo, barimo gusezeranira imbere y'amategeko, bafashe ku idarapo, bose bazamuye ukuboko kw'iburyo, ukw'ibumoso gufashe ku idarapo.

Ifoto igaragara, ya mpande enye, y'ibara ry'ubururu imbere harimo inyuguti ya pa, yanditswe mu ibara ry'umweru bigaragara ko ari kwa kundi icyapa kiba kiri ku muhanda kigaragaza ko, aho imodoka zigomba kuhahagarara.

Amatara ya feruje, agaragaza ko imodoka zigomba kugenda cyangwa zigahagarara, n'uko abanyamaguru bagomba kugenda, kugira ngo hiringwe impanuka mu muhanda.

Inzu igaragara ko yubatse mu mujyi urimo ibiti bigiye binyuranye, kuri iyo nzu hariho ikigega ndetse hariho n'amakamba anyuze hejuru y'iyo nzu, bigaragara ko ari amakamba y'amashanyarazi.